Umucuruzi w'amayinite uretse gu gusa amayinite, anabikuza kuri Airtel. Afite umukiriya waje kumwaka serivisi igendanye n'amayinite cyangwa se kubikuza.

Abantu benshi harimo abakuze harimo n'urubyiruko n'abakuru bambaye amapantaro, kandi harimo umusore ucuruje ubunyobwa inyuma yabo mu ndobo bari ahantu hari akazu kubabatse harimo umuntu uri gutanga serivisi.

Imoto nziza kandi igezweho iparitse hafi y'akazu gatangirwamo serivisi zo kuri interineti nka MTN ndetse Airtel, Equity n'ibindi kandi ako kazu kicarwamo n'umuntu ukora akaba anambaye umwenda wabugenewe.

Akazu kaba karimo umuntu, utangiramo serivisi zigendanye no kubikuza ndetse no kubitsa mu buryo bwa telefone, yakiriye abantu, abakiriya benshi. Ari kubakira abafasha.

Akazu gacururizwamo amayinite kaba karimo umuntu ubigenewe ndetse akaba atanga serivisi zigendanye no gutanga mayinite ndetse no kubikuza akaza aganwa n'abantu benshi.

Aba basore babiri, umwe uri kuri moto, undi utayiriho bose bambaye amakasike ndetse kandi hari hafi y'izindi moto kandi ni ahantu n'ubundi hasanzwe hacururizwa amayinite cyangwa se hari utuzu, turimo abantu babikuza.

Akazu gatangirwavamo serivisi za telefone kazwi cyane nka Mobile Money ndetse gatangirwamo serivisi n'umuntu uba uhakorera, kandi si telefone gusa kuko n'ibigendanye n'Irembo ashobora kuba yabishobora akaba yagufasha.

Umucuruzi w'amayinite ya MTN uzwi cyane nk'izina ry'umwajenti ari gutanga amayinite, yambara impuzankano y'umwenda ndetse ari kumwe n'umukore uje kugura ayo mayinite cyangwa se kuhafata serivisi runaka.

Abakobwa babiri bakorana n'umuyoboro wa Airtel, bari kugaragaza banamamaza telefone igezweho yitwa Airtel Imagine kugira ngo igire abakiliya.

Umuntu ugiye kubikuza amafaranga ya VIZA, kugira ngo ayakoreshe yurira cyangwa se ajya mu bindi bihugu. Ni umukobwa mwiza wambaye ingofero y'umweru, wasutse imisatsi, ndetse yambaye n'umupira w'ubururu.

Umugabo uri mu murima ari gusarura imyaka ndetse kandi yambaye ishati nini ari kureba hejuru aho imyaka ari kuyikura ni imyaka y'imbuto yitwa ibinyomoro.

Abasore babiri bambaye neza kandi bari gupakira kuri moto ibyuma by'ibijerekani bitwara amata kuri moto, bari kuyapakira ngo bayajyane kuyagurisha cyangwa mu ikusanyirizo.

Umugore ubumba inkono, ndetse akabumba n'ibindi byose bitandukanye bituruka mu ibumba. Ari kusyegena neza kugira ngo abashe kuba yayijyana ku isoko abone amafaranga kugira ngo nanone abone amafaranga yo kwizigama muri banki.

Abari mu makoperative agiye atandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari imbere ku murongo, bari kwifotoreza ku kintu bafite ndetse kandi bakaba barabashije gukorana n'amabanke, babitsa ndetse n'ibindi.

Abagabo ndetse n'umugore umwe bose bambaye neza bari hafi y'inyubako yanditseho ivuriro, kandi ni kubw'amakoperative bajemo ndetse no kuba bateza imbere ibyakozwe.

Imbaga y'abantu benshi, bateraniye hamwe b'urubyiruko ndetse kandi n'abantu bakuru, barishimira ubwiza bwo gukorana n'amakoperative kuko byabafashije gushora mu masoko ndetse no kubitsa mu mabanke, agiye atandukanye.

Umugabo mwiza usobanutse kandi umerewe neza, ari kuzwa ibibazo bigendanye na Bank ndetse n'imikoranire n'amakoperative na Banyi. Ari kubazwa n'abanyamakuru batandukanye.

Abantu benshi ndetse harimo abakecuru beza cyane bakenyeye, ndetse n'abambaye impuzankano baje kumurika ibyo bakoze muri koperative zabo, kandi harimo umukecuru wasutse umusatsi, washokoje inyuma akaba ari havuga ibijya mbere.

Abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abagabo basa neza cyane, bahagaze ahantu hamwe, bari kwitegereza inkweto zakozwe mu ruhu, kandi bahagarariye ndetse harimo n'uwambaye umwambaro wa koperative.

Amakaziye arimo amacupa kandi ayo macupa akaba yapfunduwe, yanywewe ndetse kandi hari harimo ibyo kunywa, ni amacupa aba ari mu tubari.

Ahantu heza hatangirwa serivisi z'iminywere nk'akabari ndetse ni ahantu heza hasa neza, haba hari intebe umuntu akazakicaraho ndetse n'amezaza ashobora guterekaho ibyo ari kunywa.

Iduka ricuruje: amakayi, ibitabo, bikoreshwa ku mwana ugiye gutangira mu mwaka wa mbere cyangwa se ku muntu wese ufite ahurira n'ikayi n'ikaramu.

Umucuruzi ucuruje iduka ndetse kandi yishimiye umukiriya uri kuza, yambaye agapira k'umuhondo ndetse kandi acuruje ibintu byinshi bitandukanye harimo nk'indobo irimo amandazi, amavuta ndetse n'ibindi bihari.

Iduka ricuruza ibintu byo kunywa byiganjemo ibiri mu ducupa dutoya nk'amafanta, amaji ndetse kandi harimo n'ibindi binyobwa by'inzoga.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo amamatera, imyenda, ibikapu, intebe, imikeka. Ndetse kandi hari n'umunyeshuri, ugiye kuguramo ibikoresho.

Urusengero runini ruri kubakwa ndetse kandi ni runini cyane abantu b'abakirisitu ni bo bari kurwubaka kugira ngo babashe kubona ahantu bazajya basengera.

Abantu bari mu rusengero ndetse kandi bakaba bahagaze. Bamwe barahagaze abandi baricaye gusa intebe zose ntabwo zicaweho n'abantu. Bari kuramya banahimbaza imana muri kiriziya.

Abantu benshi biganjemo abagore ndetse kandi n'abakobwa n'abana bakiri bato bakaba bari mu cyumba cy'urusengero bariho barahimbaza Imana, basenga ndetse barahagaze bari kuririmba.

Abakirisitu bicaye bambaye neza, higanjemo abirabura abazungu ndetse kandi barakurikiye, harimo umukobwa uri gusuhuza padiri.

Abantu bari mu rusengero cyangwa se kiliziya bakaba baje gusenga baricaye bari gukurikira ibyo abigishwa bari kubereka. Ndetse banabahugura ku ijambo ry'Imana.

Abari mu rusengero bari kubyina bashimisha Imana, babyina neza ndetse hari abarambuye amaboko mu birere, harimo abafashijwe, bari ahantu. Bari ahantu, bari gusenga banabyinira Imana.

Urusengero rurimo abantu ndetse hari umwigisha uri kwigisha ijambo ry'imana w'umuzungu yegeranye n'umusemuzi we uri kumusemurira kandi hari intebe nziza n'ameza meza hafi yabo.

Imbaga y'abantu benshi, bari mu rusengero ndetse bari guhabwa umutsima wa kirisitu ndetse kandi banahabwa amaraso ye. Ni abagabo, abagore ndetse n'abakobwa imbere yabo hari umuntu uri kubibaha.

Abanyacyubahiro bicaye ndetse bakaba bari mu rusengero, bambaye neza cyane, bambaye amakote ndetse ni abagabo bakuze. Cyane cyane harimo abafite na bibiliya ndetse n'amakayi n'amakaramu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'amahoteli, kikaba gifite ubwiza butangaje, gifite intebe zicarwamo n'abakiriya, kikagira ameza abakiriya bifashisha iyo bari gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Uburiri bwiza bushashe neza bufite amashuka meza agezweho, ni muri hoteli abantu aho barara haba hasa neza hakeye kandi kiba ari icyumba kimeze neza.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteri, ubwo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse kandi hakaba hari umugabo wambaye impuzankano z'umuntu ukora muri hoteri. Ni ingofero y'umweru kandi akaba yambaye n'itaburiya y'umweru. Ubundi agatanga serivisi z'aho hantu.

Abantu babiri umugore n'umugabo b'abazungu bari gusangira icyo kunywa ndetse n'icyo kurya muri hoteli, barishimye kandi bicaye bateganye umwe ari imbere y'undi.

Ahantu hazwi neza nk'ahatangirwa serivisi z'amahoteli, haba hari ibikoresho nk'intebe, ameza ndetse n'ibikoresho birirwaho nk'amasahane, ibiyiko cyangwa se amakanya.

Inzu yubatse neza ndetse ku mpande yayo hari izindi nzu, iyo nzu ikorerwamo serivisi z' amahoteli kandi hanze yayo hari amahoteli meza, cyane cyane hari n'ubwubatsi bumeze neza bw'ubusitani.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteli, hicaye umugore umwe ndetse imbere hari ameza. Hari uri kumwakira, amuha serivisi nziza ndetse amuzanira ibyo akeneye.

Icyumba gisa neza gitatse kirimo ubwiza butangaje kikaba gishashagirana kandi gifite uburiri bwiza bushashe neza. Ni icyumba kirarwamo n'umuntu uba waragikodesheje muri hoteri.

Umusore wambaye neza ndetse akaba yambaye n'agapfukamunwa, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro nziza y'umukara n'ijiri, akaba ari ahantu muri hoteli agiye gufata icyo kunywa.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteri hari pisine y'ubwogero, hari imitaka ituma abantu bugama izuba, hari intebe bicaraho kandi ni inyubako ndende zikorwamo ibyo bikorwa.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteli nko kurya, kunywa ndetse no kwidumbaguza mu mapiscine cyane cyane haba hari ubwogero bwiza, amazi meza, akoreshwa kandi ugasanga haba hari amatara hirya no hino amurika.

Uburiri bwiza bushashe neza bufite ibikenerwa byose ndetse bikaba kiri mu cyumba ahantu heza, hatangirwa serivisi z'amahoteri, aho uwagikodesheje aba ari we ukiraramo.

Icyumba kiza kimeze neza gisa neza kirimo intebe zisa neza, ameza asa neza ndetse n'ibikoresho baruriraho bisa neza. Ni icyumba gitangirwamo serivise z'amahoteri.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteli, haratanze, harasa neza, hari intebe ndetse kandi hari ameza, byose byose birasa neza kandi hari ubuzima bwiza kuko hari ibitanda bishobora kuryamirwa ukamererwa neza.

Inyubako nziza, yubatswe mu buryo bw'amagorofa kandi ikaba ifite amajeride, ubusitani bwiza, ikaba kandi ifite ahantu imodoka ziparikingwa ndetse kandi ni inyubako itangirwamo serivisi z'amahoteli, haba kurya, kunywa n'ibindi.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bambaye ingofero z'abasoje kwiga ndetse bakaba bafite n'impamyabumenyi bari kwifotoreza hafi aho ndetse kandi bambaye imyenda y'amakanzu urangije kwiga wese ashobora kuba yakwambara bitewe n'icyiciro arangije.

Icyumba gisa neza kirimo uburiri, ameza, intebe ndetse n'utubati wabikamo. Ni icyumba gitangirwamo serivisi z'amahoteli ku muntu wese uje uhagana.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa, ikaba ifite ubusitani bwiza bw'ibyatsi kandi ikaba yubatse neza cyane. Ikorerwamo serivisi z'amahoteri: kurya no kunywa, kuryama, koga n'ibindi.

Inyubako nini ndetse itangirwamo serivisi z'amahoteli, yubatse mu buryo bw'amagorofa ndetse kandi hanze yayo haparitse imodoka nyinshi, ni abantu benshi baje kuhafatira icyo kunywa n'icyo kurya.

Isoko ribera ahantu hatubakiye ndetse hakaba harimo n'utuyira abantu bagenda banyuramo, ni isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo n'abajenti bacuruza amayinite atandukanye, yaba aya MTN n'ayandi.

Akabasi karimo ibicuruzwa: amavuta, uburoso, akayunguruzo, ibibiriti, amavuta ndetse na korogate, ni umucuruzi ubicuruje mu gasoko kandi akaba ategereje abakiriya ngo bamugirire.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe. Baje mu isoko guhaha. Harimo urubyiruko rw'abasore abakobwa bagore abagabo, kandi n'abana. Kandi harimo n'ibinyabiziga, kuko iryo soko riri hafi y'umuhanda.

Isoko rinini ririmo ibintu bigiye bitandukanye, mu mboga twavuga ko harimo inyanya amashu ndetse n'ibindi. Naho mu mbuto harimo avoka, imineke ndetse n'intababara. Abacuruzi baracuruje, bategereje ko haza abakiriya.

Isoko rinini rihahirwamo n'abantu bagiye batandukanye. Harimo: abacuruza imyenda, harimo abadozi b'imyenda ndetse kandi higanjemo abasore, urubyiruko rw'abakobwa n'abandi.

Intoryi ibitunguru ndetse n'imiteja ni bimwe mu bicuruzwa mu masoko cyane cyane mu dusoko twa nimugoroba aho bifatwa bigashyirwa mu gafuka agafuka kari hasi kugira ngo bibe ariho bisangwamo nk'umucuruzi.

Abantu bari mu isoko ndetse kandi harimo abacuruzi, harimo n'abaguzi baparitse kandi imodoka. Ni isoko rinini ndetse rikaba ririmo imyenda inkweto z'abagore, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse kandi umuntu umwe akaba ayitwaye ndetse nko hafi muri uwo muhanda hari inzu z'ubucuruzi zicuruza ibigendanye n'amayoga.

Umushoferi w'igare uri mu muhanda uri kunyonga igare wapakiye ibitoki byinshi ku igare, ni igare rinini ari mu muhanda hafi y'ikigo cy'amashuri ashoye ibyo bitoki ku isoko.

Umugabo uri kuri moto, akaba ahetse umuntu ndetse akaba ahetse n'akantu kabitsemo inkoko nyinshi. Ni umuhanda ari kugendamo wa kaburimbo.

Umuhanda munini wa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ni hafi y'aho hari n'ibindi binyabiziga bya moto biparitse, abantu bategereje abagenzi ndetse begereye n'inzu z'ubucuruzi.

Imodoka iri mu muhanda ikaba iri kugenda, ni umuhanda ukoreshwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye uretse imodoka harimo na moto ndetse n'abagenzi banyuramo, begereye amazu akora ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza unyurwamo n'ibinyabiziga nka moto ndetse nabanyamaguru. Umuhanda urimo moto ebyiri imwe irazamuka, indi ikamanuka, n'umugabo wambaye kasike.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo moto ndetse n'abanyamaguru ndetse kandi n'ibinyabiziga binini by'imodoka. Ni umuntu uri kuri moto uhetse undi bari kugenda mu muhanda baganira.

Umuhanda wubatswe ku nkunga ya Leta ndetse kandi ukaba ugendwamo n'abanyamaguru, abamotari ndetse n'ibinyabiziga. Ni umuhanda wegereye amazu, akorerwamo ubucuruzi.

Umugabo ufite amafaranga akaba yicaye kuri moto asa nk'umumotari ndetse kandi ari kubara amafaranga umukiriya amaze kumuha kugira ngo ayabike mu mufuka wiwe.

Umugabo uri ku igare akaba ahetse umugore we ku igare ndetse ahetse n'amasuka. Bavuye mu kazi kagendanye n'ubuhinzi bari kunyonga igare mu muhanda baratashye.

Imbaga y'abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga byinshi bya moto, biri ahantu hamwe ndetse n'abantu benshi bari ahantu hamwe mu muhanda, ni mu mujyi unyurwamo n'abantu benshi kandi uhahirwamo n'abantu benshi, ni abamotari harimo abari kugenda ndetse n'abahagaze.